Icyumba cy'inama kirimo abayobozi bagiye batandukanye, haba abanyarwanda ndetse n'abazungu, ndetse bafite amazi yo kunywa n'ibikombe.

Abayobozi babiri b'abagabo bo mu bigo bitandukanye, hamwe n'umugore umwe, umugabo uri ibumoso arimo gutanga igitekerezo cye ku kibazo abajijwe kugira ngo atange igitekerezo.

Umunara muremure uzitiwe n'ibyuma bigiye bitandukanye hamwe na senyenge, inyuma hariho icyapa cy'umuyoboro wa MTN uri mu ibara ry'umuhondo.

Igipangu kigizwe n'umuryango ufite urugi rusa ubururu ndetse imbere yaho hariho inzu y'igorofa rirerire igeretse gatandatu.

Umuyobozi wicaye mu biro utegereje kwakira abaturage kugira ngo abakemurire ibibazo cyangwa se abahe serivisi ziigihe zitandukanye akurikije icyo bashaka.

Inama izitabirwa n'ikigo cyitwa FIA ndetse irashishikariza abantu gusura u Rwanda habura umunsi umwe kugira ngo iyo nama itangire harimo n'ibihembo byatangirwa i Kigali.

Umusore urimo gushishikariza abantu uburyo bwo gukoresha serivisi z'Irembo, ubyikoreye. Hari uburyo ndetse n'ibisabwa n'intambwe ushobora gutera kugira ngo ukoreshe urubuga rw'irembo.

Abakobwa babiri bari kureba ibintu muri telefone ndetse bashobora kuba bari kureba amafoto cyangwa se bareba amashusho.

Ipoto iriho amashanyarazi ndetse iriho itsinda zijyana amashanyarazi hanajya hatandukanye, hejuru y'urugo ndetse ku muhanda, harimo n'imodoka irimo kugenda mu muhanda.

Ibitaro bikuru byitiriwe umwami Fayisari byakira abarwayi barembye cyane, aho baba bakeneye serivisi zijyanye no kwivuza, ibindi bitaro byananiwe.

Imbangukiragutabara zitwara abarwayi barembye cyane, mu bitaro bigiye bitandukanye, bibajyana ku bitaro byisumbuyeho, mu gihe bakeneye ubutabazi bw'ibanze.

Icyapa kiyobora abantu barwaye amaso kujya kwivuza, mu bitaro bya kabgayi. Aho niho bafasha abantu bose bafite ibibazo by'amaso.

Imbangukiragutabara ivuye ahantu, izindi modoka zijyanye n'ibitaro ziparika kuko ntazindi modoka zindi zemerewe kuhinjira uretse zo gusa.

Inzego za leta, zigizwe n'abayobozi bagiye batandukanye, abagabo batatu bambaye udupfukamunwa, barishishikariza abantu kwirinda icyorezo cya korona virusi.

Igazeti ya leta ivuga ku ngingo ya cumi na karindwi, impamvu inkomezacyaha ku cyaha cya ruswa byakozwe n'umuntu uri mu rwego rw'ubuyobozi.

Igazeti ya leta igaragaza amategeko umutwe wa mbere, ubwigenge bw'abanyarwanda mu gufata ibyemezo no gusumba andi mategeko ku'itegeko nshinga.

Icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kuzimya umuriro igihe ahantu hafashwe n'inkongi y'umuriro iturutse ku mashanyarazi cyangwa gaze n'ibindi byose bitera inkongi y'umuriro.

Igikoresho kizimya umuriro cyifashishwa cyane cyane mu kuzimya ahantu harehare cyane hakoreshejwe uriya mugozi wacyo muremure kugira ngo bageze imyuka izimya hanze.

Ni igihe cy'amatora abantu barashishikarizwa kwitabira amatora kugira ngo bahitemo neza, bahitemo abayobozi bifuza babishishikirikazwa na komisiyo y'igihugu y'amatora.

Mu cyumba cy'itora kirimo umugabo ugiye gutora, uri kumwe n'umufasha ari we twita umukoranabushake ufasha mu gihe cyo gutora.

Imodoka yifashishwa mu kuzimya umuriro igihe habayeho inkongi y'umuriro ndetse n'imodoka ndende, irimo n'umushoferi, iri kubisikana n'indi foso itwara amakontineri.

Imodoka y'amapine atatu, ikorerwa mu Rwanda, itwara imizigo mitoya itaremereye, iri mu muhanda wa kaburimbo ndetse hamwe n'amatagisi.

Abamotari babiri barimo gutwarira mu muhanda utarimo ibinyabiziga byinshi ndetse izuba naryo ririmo rirava ari ryinshi cyane muri uyu muhanda.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatso y'umweru yikoreye imizigo igiye itandukanye, itwikirije ihema ry'ubururu ndetse iri ahantu ku muhanda, hari n'ibiti bisa neza.

Umuhanda nyabagendwa urimo abasore bicaye ku magare bahetse amakesi arimo inzoga ndetse n'umuntu urimo kugenda mu muhanda w'umusore wambaye ipantaro y'umweru ndetse n'umupira w'umukara urimo kuvugira kuri terefone.

Umusore urimo gusunika igare wambaye ipantaro y'ikuboboyi n'agashati k'amaboko magufi ndetse arashishikaye cyane, inyuma ye hari umudamu urimo kumanuka yerekeza mu muhanda urimo imodoka na moto.

Umukarani wikoreye umufuka uri kunyura mu muhanda urimo imodoka y'ifuso ndende harimo na moto zigiye zitandukanye, aho hantu ni mu Mujyi.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu, iri mu muhanda hamwe ni moto yicayeho abantu babiri, imodoka yo itwaye ibyuma bigiye bitandukanye byifashishwa mu kubaka.

Aho imodoka zihagarara hari moto ndetse n'imodoka zo mu bwoko bugiye butandukanye, hamwe n'imodoka nini itwara abagenzi n'indi vatiri abantu bagendamo ku giti cyabo.

Imodoka y'amapine atatu yifashishwa mu gutwara imizigo, itaremereye cyane iriho na nimero za telefone ushobora kwifashisha igihe ukeneye ko baguha serivisi.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatso ihetse ibicuruzwa ndetse itwikirijwe ihema ryo mu ibara ry'ubururu, igenda mu muhanda yonyine, gusa imbere yayo hariho agaturage karimo abantu.

Ikibuga cy'umupira wa vore cyagenewe cyane cyane abantu bafite ubumuga ndetse kirimo n'ahantu heza ho kurebera igihe barimo gukina.

Icyapa kigaragaza ko imbere hazamuka ndetse kiri imbere y'inyubako itangirwagwamo imiti ndetse n'ubundi buvuzi bw'ibanze.

Icyapa kigaragaza ikorosi, ahantu biba bigoye kubona ikinyabiziga giturutse imbere, bisaba kugenda gakeya kugira ngo hirindwe ko habaho impanuka.

Icyapa kibuza abantu gukomeza ku mpamvu iyo ariyo yose ituma habaho guhagarara, cyangwa se mu gihe hari ibikorwa biri gukorerwa mu muhanda ikindi ishobora kuba ari aho bahagarara.

Ishuri ry'inshuke ririmo ibikinisho bigiye bitandukanye, ibyo gutsukaho ndetse n'iby'icungo bikurura abana kugira ngo bishime bige bakunda ishuri.

Umudugudu ugizwe n'amazu agiye atandukanye, harimo amazu maremare ndetse n'andi mazu y'uducurama meza cyane ndetse atuye ahantu hari ibiti bigiye bitandukanye bitanga umwuka duhumeka.

Ni mu muhanda rwagati aho abaturage b'ingeri zigiye zitandukanye baba bakoranyeho, baba bagiye guhaha, abagiye gutega imodoka ndetse n'abafite ibyo bagiye kugurisha.

Akabari karimo ibinyobwa bigiye bitandukanye ndetse n'intebe zicarwamo n'abakiriya, mu nzu cyangwa se hanze yayo bitewe naho umuntu yicara akumva arisanzuye mu gihe ari gufata icyo kunywa.

Ahitegeye umujyi, aho ureba amazu agiye atandukanye, inganda ndetse ibigo, amashuri ndetse muri make umujyi wose uba uwureba.

Imodoka ebyiri zirimo kubisikana mu muhanda wa kaburimbo, imwe itukura ndetse n'indi y'umweru irimo kuzamuka, itukura irimo kuzamuka iy'umweru nayo ikamanuka.

Ihuriro ry'imihanda itandukanye mu byerekezo, kimwe cy'iburyo n'ikindi cy'ibumoso, wiganjemo abamotari ndetse n'abantu bakeya bagenda n'amaguru.

Ihuriro ry'imihanda ibiri irimo imodoka zigiye zitandukanye ndetse na bisi ndende, ugizwe n'abamotari bagiye batandukanye bicaye ku mamoto.

Umuhanda w'igitaka urimo imodoka y'amapine atatu itwara itwara ibikoresho bitaremereye cyane yifashishwa n'abamotari.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragaza ihuriro ry'imihanda, utatse neza cyane, ukikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye, uririmo imodoka nkeya zigenda mu muhanda.